Aba ni abapolisi b'u Rwanda bambaye impuzankano y'akazi. Basa n'aho bari mu mahugurwa, aho bashobora kuba bakurikiye umuntu ubari imbere icyo ari kubabwira. Biragaragara ko bose bambaye n'udupfukamunwa.

Aba ni abana bari kwigishwa uko bazimya inkongi y'umuriro hakoreshejwe amazi, barimo barigishwa na polisi nk'uko bigaragara, inyuma yabo hahagaze imodoka ya polisi, ndetse n'imodoka z'umuryango w'abibumbye YUWENI .

Aba ni abadaso nk'uko bigaragazwa n'impuzankano yabo y'icyatsi, aho bari kwiga guteranya ndetse no gusambura imbunda.

Aba ni itsinda ry'abagize inzego z'umutekano barimo abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare, bakabamo abapolisi bambaye imyenda ya polisi, ndetse hakabamo na ribu yambaye imyenda ya ribu.

Iyi ni imodoka izimya inkongi yatewe n'umuriro, kuri iyi modoka biragaragara ko harimo abazimya inkongi z'u... inkongi y'umuriro, iruhande hagaragara inkongi y'umuriro yafashe inzu, ndetse hakagaragara n'abantu bari kwiruka bava muri iyo nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro.

Uyu ni umupolisi urimo urakoresha imbwa zisaka, aho arimo arasaka imodoka ya burigade nanone uyu mupolisi iyi mbwa ari kuyikoresha ayifashe mu ishumi riyiziritse.

Izi ni kamera ziri ku ipoto. Bigaragara ko ari kamera zo ku muhanda, za zindi zijya mu masangano y'imihanda. Kuri izi kamera hari ipoto iriho itara ryo ku muhanda.

Iyi ni nama iri gutangwamo ibiganiro bya polisi y'igihugu, aho hagaragara imbere y'iyo nama umupolisi ufashe mikoro ndetse na ajenda arimo akoresha iyi nama.

Aba ni abashinzwe irondo ry'umwuga. Bari ku mirongo yabo, aho basa n'ababwirwa amabwiriza atandukanye abafasha mu kazi kabo. Bose bambaye imyenda y'akazi ndetse bageretseho n'udupfukamunwa.

Aba ni abanyeshuri biga guteka, bakaba bari kwiga ukuntu bashobora kuba bazimya inkongi y'umuriro, ishobora guterwa na gaze bifashisha bateka bigaragazwa na kizimyamwoto, ziri iruhande rw'abanyeshuri ndetse na gaze iriho isafuriya.

Iyi ni inama y'abaturage irimo abaturage benshi batandukanye. Aho bamwe bahagaze abandi bicaye mu ihema bakurikirana inama.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama bakurikiye iyo nama, iruhande rw'abantu hateretse amacupa y'amazi.

Aha ni mu nama irimo abantu benshi batandukanye, bicaye bakurikiranye inama, hakabamo n'umugore ufashe mikoro usa n'aho ari kubaza ikibazo, ategereje ibisubizo by'ikibazo arimo arabaza.

Aha ni mu nama bigaragarako aba bantu bitabiriye inama biteguye no kuba bakandika ibiva mu nama kuko bafite amajenda, amakaramu, kandi bakurikiye ibiri kuvugwa mu nama.

Uyu ni umuhanda uri gukorwamo isuku n'abantu batandukanye harimo abagore bafashe imikubuzo, hakabamo n'abagabo ndetse ndikubona inyuma n'abana bari kunyura mw'uyu muhanda basa n'abagiye ku ishuri.

Aha ni mu cyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi bicaye, aho harimo uhagaze urimo urakoresha inama, yifashishije porojegiteri hanyuma hakabaho n'abicaye imbere ,muri iyi nama bari gukoresha mudasobwa zabo.

Izi ni intore z'u Rwanda, ziri guhamiriza zikaba zambaye imigara mu mutwe, na none kandi zikaba zifashe amacumu ndetse n'ingabo mu ntoki.

Iyi ni inkoko iriho ibiryo. kuri iyi nkoko hariho imbehe eshatu; imbehe imwe iriho ibishyimbo, imbehe ya kabiri iriho ubugari, naho imbehe ya gatatu iriho imyumbati.

Aba ni abakaraza bari gukoma ingoma. Muri aba bakaraza harimo abagabo, ndetse n'abagore, hakabamo n'abana. Muri aba bagabo harimo abirabura, hakabamo n'abazungu.

Iyi ni inzu ya kinyarwanda yubakishijwe ubwatsi imbere y'iyi nzu hariho ibikingi by'irembo, hanyuma hejuru y'inzu hagaragara agasongero, ku ruhande hari igisabo ndetse imbere hari n'ingoma ntoya.

Ibi nibikoresho bitandukanye by'umuco nyarwanda, birimo ingobyi ya kinyarwanda, hakabamo igisabo, hakabamo isekuro, n'umuvure.

Aba nabagore bari kuboha ibitebo, ndetse bicaye kubirago biboshywe mu buryo bwa kinyarwanda.

Iki ni icyibo gikozwe n'ubudodo ndetse n'ubwatsi kikaba gifite umutemeri wacyo, kikaba gishobora kujyamo ibintu bitandukanye birimo ibishyimbo, ibigori ndetse n'amasaka.

Iyi ni inanga ya kinyarwanda yakoreshwaga mu ndirimbo nyarwanda, ikaba ifite imirya y'inanga itandukanye, kuri iyi mirya y'inanga hafasheho umucuranzi w'iyi nanga, bigaragara ko arimo arayicuranga.

Aba ni abagabo bicaye ku ntebe za pulastike, bambaye imikenyero ya kinyarwanda, bakaba bari gusangirira ku ntango bakoresheje imiseke miremire.

Uyu ni umudaho ukoreshwa mu muco nyarwanda, iyo batetse ikaba ikoreshwa umuntu avana ibiryo mu isafuriya cyangwa se mu nkono abishyira ahantu habugenewe.

Izi ni inzu eshatu za kinyarwanda ziri mu rugo rumwe. Zikaba zisakaje ibyatsi, zikaba zihomesheje ibyodo ndetse zikaba zinakinze.

Aba ni abagabo bahetse umurwayi mu ngobyi ya kinyarwanda, bigaragara ko baba bavuye cyangwa bagiye ku bitaro kuvuza uyu murwayi bahetse mu ngobyi.

Izi ni intore ziri guhamiriza, zikaba ziri guhamiriza zambaye amayogi ku maguru, ku mutwe zambaye umugara, naho mu ntoki zifashemo amacumu ndetse n'ingabo.

Uyu ni umuhururu uboshye mu buryo bwa kinyarwanda ukaba wifashishwa mu nzu za kinyarwanda, aho uwumanika mu muryango ugakingiriza abari mu cyumba ndetse n'abari imbere y'icyumba.

Ibi ni ibikoresho bitandukanye bya kinyarwanda birimo ibicuma byifashishwaga mu kunywa inzoga, hakabamo uruho na rwo bifashishaga mu kunywa inzoga, hakabamo umuzinga cyangwa indemberi byifashishwaga mu gukama no gutara inzoga.

Uyu ni umunyabugeni uri gukora Taburo igizwe na n'imigongo, bigaragara ko arimo arashushanya yifashishije irangi ry'umweru.

Aba ni itorero ribyina imbyino gakondo, nkuko biri kugaragazwa n'imyambaro bambaye ,hanyuma bikanagaragazwa n'uduseke bikoreye barimo barabyina.

Uyu ni umutiba wifashishwa mu Rwanda mu guhunikamo imyaka irimo ibishyimbo, amasaka ndetse n'ibigori. Uyu mutiba ukaba uboshywe n'ubusasa ukaba unasize amase.

Uyu ni umugabo wicaye hasi, akaba yicaye ku kirago, inyuma y'uyu mugabo hakaba hari imbuga ikozwe n'mapave.

Iyi ni runonko iri kwakamo umuriro, nkuko bigaragazwa n'umuriro uri mu iyi runonko, bikanagaragazwa n'ibijumba ku ruhande bagiye kotsa muri iyi runonko.

Aka ni agaseke nyarwanda kifashishwa mu muco nyarwanda. Ushobora kugashyiramo ibishyimbo, amasaka, ibigori ndetse n'izindi mpeke z'ubwoko butandukanye.

Uyu ni umuvure ukoreshwa bari gukama ibitoki, kugira ngo babikuremo umutobe, uyu muvure uteretseho agatanda bifashisha mu gukamura ibitoki, muri uyu muvure hakaba hateretsemo ibicuma.

Izi ni intore z'u Rwanda zambaye nk'intore, hejuru ku mutwe zikaba zambaye ibihuru, mu ntoki zikaba zifashe amacumu ndetse n'ingabo.

Uyu ni umucuranzi w'inanga ya Kinyarwanda, nk'uko bigaragara afashe inanga ya kinyarwanda, arimo arayicuranga aririmba kinyarwanda.

Uyu ni umuzinga wifashishwa mu muco Nyarwanda bakama ibitoki kugira ngo bivemo umutobe. Kuri uyu muzinga hejuru hateretse udutanda bashyiraho ibitoki byamaze gukamwa kugira ngo babikamure bivemo umutobe.

Aba ni abagabo babiri, bari gusangira inzoga bifashishije uruho rurimo iyo nzoga, aho umwe ateruye urwo ruho ari gusoma undi ategereje ko mugenzi we yarangiza gusoma, nawe ngo amuhe urwo ruho asomeho.

Iri n'itorerero ribyina rigizwe n'itsinda, ry'intore zambaye umugara, zifashe icumu n'ingabo mu ntoki, rikaba rigizwe n'abakobwa babyina, ndetse n'abatera bakanikiriza.

Iki ni ikibindi cyuzuyemo umusururu, nkuko bigaragazwa n'urufuro rw'umusururu, rugaragara ku rugara rw'iki kibindi, iki kibindi kikaba gishinzemo imiheha.

Uyu ni umugore w'umubumyi aho ari kubumba ibibindi ndetse n'inkono akoresheje ibumba, imbere y'umugore hari ikibindi cyamaze kubumbwa kinini ndetse n'agato kamuri iruhande.

Izi ni intore ziri guhamiriza, zikaba ziri guhamiriza imbere y'inzu ya kinyarwanda ifite uruzitiro mu mpande .Iyi nzu ikaba ifite n'agasongero hejuru .Inyuma y'iyi nzu hariyo igiti kirekire.

Iri ni itorero nyarwanda rifite abatera imbyino, abikiriza, rikagira abakaraza bakoma ingoma, ndetse iri torero rifite n'intore yambaye amayugi ndetse n'umugara.

Ndabona umuzinga biyifashisha bakama ibitoki babivanamo umutobe nanone uyu muzinga ndawubona buriho aho bashira ibitoki bakabikamura kugira ngo bivemo umutobe.

Uyu ni umutiba w'inzuki wagitswe mu giti cy'inturusu kiri mu ishyamba, bigaragare ko uyu mutiba nta nzuki ziwurimo, bitewe n'uko nta ruyuki na rumwe ruri kunyura ku uyu mutiba.

Aba ni abakaraza batanu ,barimo :umukaraza umwe w'umugore, n'abakaraza bane b'abagabo, aba bakaraza bafashe imirishyo y'ingoma, ndetse imbere yabo hari ingoma eshanu.

Aba ni abantu biga kurasa bakoresheje imiheto, ndabona umumama ndetse n'umugabo bombi bafite imiheto irimo imyambi, bigaragara ko bari kwiga kurasa bakoresheje iyi miheto.

Iri ni itorero nyarwanda rigizwe n'abagabo n'abagore. Rikagira ababyina, rikagira intore nk'uko bigaragazwa n'abagabo bambaye imigara, bakaba bafashe amacumu, ndetse n'abadamu bikoreye ibiseke.

Iki ni ikigega ca kinyarwanda, kiri hanze gisakajwe n' ubwatsi, kikaba gishigikiwe hasi n'amabuye, kugira ngo kiticara hasi.

Uyu ni umugore n'umugabo bari gukama inzoga y'ibitoki aho umugabo ari gukamurira ibitoki mu muvure, umugore akadaha umutobe akoresheje uruho awushyira mu kidomoro.

ibi ni ibiseke bikoreshwa mu muco nyarwanda n'abadamu igihe bagemuriye bagenzi babo imyaka irimo: ibishyimbo, ibigori, amasaka, amajeri, ndetse n'indi myaka

Aba ni abantu bigaragara ko bagiye gusura ahantu, bitewe n'uko bikoreye ibintu bitandukanye. Barimo umugabo wikoreye ikibindi cy'inzoga, n'abagore bikoreye amapfukire y'ibyibo.

Uyu ni umutiba w'inzuki wagitse hejuru mu giti kinini ,bigaragara ko uyu mutiba bawushize muri iki giti kugira ngo hazajyemo inzuki ,zijye zitanga ubuki.

Uyu ni umugore udoda ibi byibo, uko bigaragara afashe icyibo arimo aradoda, akoresheje ubwatsi, urushinge, ndetse n'akadeyi.

Uyu ni umwana w'umukobwa uryamye ku buriri busashishijwe ikirago. Inyuma y'uyu mwana kuri ubu buriri hakaba hateretswe igiseke gifite umutemeri wacyo. Iruhande rw'iki giseke hakaba hateretse igicuma.

Ibi ni ibiryo bya kinyarwanda bihiye birimo amahundo y'ibigori, imyumbati, ibijumba, ibihaza, amajeri ndetse n'ibishyimbo.

Iki ni ikibindi kirimo umusururu ,muri iki kibindi hashinzemo imiheha miremire ine, iki kibindi giteretse hasi.

Aka ni agaseke nyarwanda gapfundikiye, kakaba gafite amabara y'umuhondo, ndetse n'amabara y'umweru.

Ibi ni ibiryo bya kinyarwanda bitandukanye kandi bihiye, byamaze gutahurwa. Harimo ibitoki, ibirayi, umutsima, ibihaza, ibishyimbo ndetse n'ibijumba.

Aba ni abagabo bakikije umuzinga urimo umusururu, ndetse hakaba harimo n'abagore n'abana, bose bakaba bafashe imiseke barimo baranywa kuri uyu muzinga.

Uyu ni umugore uhagaze afashe ikirago kiboshye neza, bigaragara ko kitarakoreshwa bitewe n'uko kikiri gishya.

Iri ni itorero ribyina rigizwe n'utera, abikiriza, ababyina ndetse n'ubakomera ingoma.

Utu ni uduseke dukoreshwa mu muco nyarwanda, hakaba harimo uduseke dutoya, ndetse n'ibiseke binini, ibi biseke bikaba birambitse ku kirago.

uyu ni umuvure ukoreshwa cyane mu muco nyarwanda, aho bawifashisha mu gukama ibitoki hashyirwamo ibitoki bihiye, nyuma bakabikamuramo umutobe.

Iyi ni ingobyi ya kinyarwanda, yifashishwaga kera mu kugeza abarwayi ku bitaro, ndetse no kuba yaba yafasha mu kubavana ku bitaro ibasubiza mu rugo.

Aba ni abakaraza bari kuvuza ingoma zabo, aba bakaraza bose bakaba bamanitse imirishyo biteguye kuba bavuza ingoma kandi bose bambaye imikenyero.

Iri ni ishuri ryubatswe mu buryo bugezweho. Rigeretse inshuro ebyiri. Muri iri shuri imbere haragaragaramo ikibuga cya basikete, ndetse n'inzira y'abanyeshuri iri iruhande rw'ikibuga cya basikete.

Ibi ni ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo kompiyuta hakabamo purinta inyuma y'iyi purinta ndabonamo ibitabo nanone kuri iyi kompiyuta hari suri bigaragara ko ibi bikoresho by'ikoranabuhanga biri muri ofisi.

Uru ni urupapuro rwuzuzwaho amakuru, rumwe twita fomu abantu buzuzaho amakuru atandukanye bitewe n'icyo ,n'ikibazwa kuri iyi fomu.

Uyu ni mudugudu w'icyitegererezo, aho uyu mudugudu ufite imihanda myiza ikozwe na kaburimbo nanone uyu mudugudu ukaba ugizwe n'amazu meza menshi, aho inyubako z'uyu mudugudu zigeretse.

Uru ni urusengero rwubakishije amatafari ahiye rukaba rusakajwe amabati, imbere y'uru rusengero hari inzugi ebyiri n'imiryango ibiri rukaba rufite icyapa hejuru y'urugi.

Uru ni urusengero rwubakishijwe amatafari ahiye .Rukaba hejuru rusakajwe amategura kandi uru rusengero rufite amadirisha n'imiryango ku mpande zombi.

Iyi ni inyubako ikoreramo ishuri ry'ubumenyingiro rya iprc Ngoma rikaba riherereye mu karere ka Ngoma intara y'iburarasirazuba

Uyu n'umufundi uri kubaka rigoreli, aho uyu mufundi iruhande rwe hari ipiki, ibuye ategereje kubaka ndetse uyu mufundi akaba yambaye isarubeti n'ingofero.

Uru ni uruganda rwa Sopirwa, uru ruganda rukaba ruherereye mu karere ka Musanze, rukaba rutunganya ibikomoka ku bireti, birimo imiti yica udukoko ndetse n'indi miti itandukanye.

Aha ni muri kiliziya itarimo abantu nk'uko bigaragazwa na alitali iri imbere, bikagaragazwa n'intebe ziyirimo, ariko ku mpande ikaba inariho n'amashusho atandukanye.

Iyi ni kiliziya yubatswe kera, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati, imbere kuri iyi kiliziya hejuru hari ishusho.

Uyu ni umuhanda urimo urubakwa bigaragara ko ku ruhande rw'uyu muhanda, hahagaze imodoka zikora umuhanda, harimo izisiza, izitsindagira ndetse n'izisukamo kaburimbo.

Ahantu ku kigo cy'igihugu cya polisi y'igihugu, gishinzwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga, muri iki kigo abantu bose bafite ibinyabiziga ni ho babizana, bakabipimisha ubuziranenge mbere y'uko byinjizwa mu muhanda.

Iyi ni kiliziya gatolika ya paruwasi rejina pacisi rambura iherereye mu Karere ka Nyabihu, Intara y'Ububurengerazuba.

Iri ni itara ryiza ryo ku muhanda rigaragara ko riri ku ipoto, iyo poto ikaba itwaye amasinga y'amashanyarazi ariko ikaba inifashishwa mu gufata iri tara.

Aya ni amapoto abiri y'amashanyarazi ariho taransifo, aya mapoto akaba ashinzwe mu murima w'ibishyimbo n'urutoki , iruhande rw'aya mapoto hariho inzu.

Iyi ni ipironi y'amashanyarazi, iriho insinga zitandukanye z'amashanyarazi, zitwara amashanyarazi ziyavana mu gice kimwe ziyajyana mu kindi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo . Ugizwe n'ibisata bibiri ,bitandukanijwemo hagati n'umurongo urombereje w'umuhondo hanyuma ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hari umurongo na wo uromberereje w'umweru.

Iyi ni inyubako igeretse rimwe, kabiri, gatatu kuri iyi nyubako hariho ubusitani inyuma hakabaho urumuri rugizwe n'amatara acanwa n'umurasire w'izuba.

Uru ni urusengero rwubakishije amatafari ahiye, ndetse rukaba rusakajwe n'amabati. Imbere y'uru rusengero hari imbuga nini ishashemo amapave.

Iki ni ikiraro cyo mu kirere kiri kunyuraho abantu barimo abagabo, abagore, ndetse aba bantu bari kunyura kuri iki kiraro, bose bambaye udupfukamunwa.

Uyu ni Musenyeri urimo uraha inzu umugisha musenyeri aherekejwe n'abahereza ndetse n'umupadiri bari mu rusengero cyangwa se mu kiliziya aho mbona n'umukirisitu.

Aka ni akarima k'igikoni barimo barategura, bigaragara ko hariho abagabo ndetse n'abagore barimo bategura aka karima k'igikoni, aka akarima k'igikoni kamaze guhingwa gashyirwamo ifumbire, inyuma harimo n'umuntu ugaragara afotora aho barimo baratunganya aka karima k'igikoni.

Iki ni ikiraro cyo mu kirere gikozwe n'ibyuma ndetse n'imbaho kiri kunyuraho abantu benshi batandukanye barimo: abagabo, abagore ndetse n'abana.

Aha ni ku rusengero rwa adeperi, rwa Paruwasi ya Rwinkuba uru rusengero rukaba rukinguye, aho tubona inyuma abakirisitu bahagaze inyuma, ndetse n'abandi bari muri uru rusengero.

Ibi ni ibiro by'Akarere ka Gakenke, nk'uko bigaragazwa n'amabendera ari imbere, bikanagaragazwa n'inyubako ya etaje yanditseho: ibiro by'Akarere ka Gakenke.

Ibi ni ibitaro bya Ruhengeri biri mu Karere ka Musanze. Bikaba bigaragazwa n'iki cyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri Musanze.

Iyi ni kiliziya yubatswe mu buryo bw'uruziga. Ikaba yubakishijwe amatafari ,hejuru igasakazwa amabati ndetse hejuru ikaba iriho umusaraba.

Iyi ni sitade iri kuberamo inama y'abaturage, aho abaturage bicaye muri iyi sitade bateze amatwi umugore uri imbere yabo ufashe mikoro, urimo ubabwira ibintu bitandukanye. Na none imbere y'aba bantu bari muri sitade hari umugabo wambaye ingofero y'icyatsi.

Aba ni abaturage bari mu nama iyobowe n'abayobozi babiri, aho aba baturage bicaye ku giti kandi bigaragara ko bakurikiye neza iyi nama, abayobozi bicaye imbere ku ntebe yo kwegamira iruhande rwabo hari igare.

Iyi n'inama irimo abaturage benshi, harimo abahagaze, ndetse n'abicaye, aho bigaragara ko aba bahagaze, bari ku murongo bategereje kubaza ibibazo, harimo uri imbere watangiye kubaza ikibazo.

Aha ni mu nama irimo abantu benshi ,bicaye bakurikiranye inama n'umugore ufashe mikoro arimo araremesha inama. Inyuma hari abashinzwe umutekano barimo barakurikirana ibijyanye n'umutekano.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi , imbere ndabona abagabo bamukurikiye n'abandi bagabo barangaye, muri iyi nama abantu bitwaje amakayi n'amakaramu.

Aha ni mu nama y'abaturage nk'uko bigaragazwa n'abaturage bicaye bakurikiye inama, ndetse n'umuturage umwe ufashe mikoro urimo ubaza ikibazo, ndetse n'abari ku murongo bamukurikiye bategereje na bo kubaza ibibazo.

Iyi ni inama igaragaramo abantu batandukanye barimo ubuyobozi ndetse n'abaturage. Ku ruhande rw'ubuyobozi hariho ubuyobozi bwite bwa leta bukabamo ubuyobozi bwa polisi hari n'ama... agaragaramo umuturage urimo arabaza ikibazo ndetse bakanamusubiza.

Aha ni ku kibuga cy'indege cy'u Rwanda, gihagazemo indege ya Rwandeya, imbere y'iyi ndege, hakaba hari abakozi bakora ku kibuga cy'indege n'abagenzi.

Aha ni muri gare aho abagenzi bategera imodoka nkuko bigaragazwa n'imodoka nyinshi zitwara abagenzi ziri muri iyi gare, bikanagaragazwa n'abagenzi bari ku mirongo bategereje kwinjira muri izi modoka.

Ndabona abagenzi batandukanye muri bateze imodoka aho bategera imodoka, nkabonamo imodoka nyinshi zitwara abagenzi harimo kowasiteri ndetse n'amabisi manini, nanone ndimo ndabona utumodoka dutoya twitwa tagisi.

Iki ni ikibuga cy'indege aho hagaragara abagenzi ndetse n'abakozi bo ku kibuga cy'indege, hakanagaragara n'imodoka zisa naho ziba zizanye abagiye kwinjira muri iki kibuga cy'indege.

Iyi ni gare y'imodoka, aho abagenzi bategererereza imodoka muri iyi gare iragaragaramo imodoka nyinshi zitandukanye za kwasiteri, inyuma y'iyi gare hagaragara urusengero ndetse imbere hakagaragara n'umumotari utegereje umugenzi.

Uyu n'umumotari uhetse imizigo zigizwe n'ibitoki, imifuka y'ibirayi biziritse n'imigozi.

Aha ni muri gare ya Nyabugogo hari kuvamo imodoka zitwaye abagenzi za kwasiteri, ndetse hakaba hari gusohokamo imodoka nini zitwara abagenzi zo mu bwoko bw'amabasi.

Aha ni mu muhanda ku cyapa imodoka zihagararaho haragaragara abagenzi binjira mu modoka ndetse hakagaragara n'abandi bagenda mu muhanda harimo n'abari abagore n'abagabo na none kuri uyu muhanda hariho akazu abagenzi bategererezamo imodoka.

Uyu ni umunyozi w'umugore wambaye ipantalo, akaba ahetse ku igare rye umugabo nawe wambaye amarineti, iri gare rikaba riri kugenda mu kibuga.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nyinshi ndetse na moto nyinshi, bigaragara ko kugenda byabaye imbogamizi ku binyabiziga biri muri uyu muhanda.

Aha ni muri gare aho abagenzi bategera imodoka zibavana muri iyi gare zibajyana mu bindi bice bitandukanye . Muri iyi gare harimo abagenzi benshi , hakabamo n'imodoka nyinshi z'amakampani atandukanye arimo Sitera ndetse na Safari.

Aha ni muri gare ya Rubavu, aho abagenzi bafatira imodoka zibavana muri iyi gare zibajyana mu bice bitandukanye, imbere y'iyi gare hari umuhanda turi kubonamo abagenzi abanyonzi, ndetse n'abamotari batwaye abagenzi.

Uyu ni umunyonzi n'umugenzi, bose bakaba bari mu muhanda, ku igare rya siporo ritwara abagenzi, rimwe na rimwe ryifashishwa mu gutwara imizigo itandukanye, riyivana ahantu riyijyana ahandi.

Aha ni muri gare aho abagenzi bategera imodoka, muri iyi gare harimo abantu batandukanye barimo abagenzi ndetse ndi kubonamo n'umuntu uri gucuruza imvaho.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka zitandukanye zirimo ; amakamyo ndetse n'imodoka ntoya. Bikaba bigaragara ko hari umunyonzi urimo kugenda muri uyu muhanda yafashe kuri kamyo inyuma.

Aha ni mu muhanda w'imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga urimo abamotari benshi bamwe bahetse abantu inyuma yabo hagaragara imodoka kandi bose bari kugenda mu cyerekezo kimwe.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'amakamyo menshi, ndetse muri uyu muhanda, harimo amagare moto n'abagenzi.

Aba ni abagore babiri batwaye amagare yabo aya magare akaba apakiye imifuka bigaragara ko baba bavuye kurema isoko cyangwa se bagiye mu isoko.

Iki ni icyombo kiri mu mazi kikaba gipakiye abantu ndetse n'ibintu. Iki cyombo ni icya Leta y'u Rwanda nkuko kigaragaraho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda mu mabara yaryo uko ari atatu ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Iri ni igare ry'abafite ubumuga. Rifasha mu gutwara ibicuruzwa byambukiranya umupaka. Kuri iri gare haragaragaraho umusaza ufite ubumuga akaba atwayeho amaji

Aha ni muri gare aho abagenzi bategera imodoka, moto, ndetse muri gare haparitsemo imodoka nyinshi zirimo tagisi, kwasiteri n'amavatiri.

Iyi ni imodoka itwara imyanda iyivana ahantu hatandukanye ikayerekeza ahabugenewe. Kuri iyi modoka hahagaze abakozi bambaye imyenda y'akazi bavana imyanda ahantu hatandukanye bayishira muri iyi modoka.

Izi ni imodoka za Dayihatsu zikoreye imizigo, zikaba zitwikirije amahema amwe y'ubururu ndetse n'andi y'umweru.

Aha ni mu muhanda w'itaka ,uri kugaragaramo abagenzi bari kugenda ndetse n'abahagaze muri uyu muhanda harimo ,abanyonzi ku magare yabo bigaragazwa n'imisego iri ku ntebe z'aya magare, hakabamo abamotari.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byiganjemo moto ndetse n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Iyi ni ikamyo yahoho yikoreye umucanga imbere yaho hari indi kamyo nayo yahoho n'ayo yikoreye umucanga bigaragara ko ziri kugenda mu muhanda w'igitaka.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo uri kugaragaramo imodoka nini zitandukanye zigizwe na bisi zitwara abagenzi , kwasiteri zitwara abagenzi ,kuri uyu muhanda ukikijwe n'indabo zirimo imikindo, ukanakikizwa n'amatara yo ku muhanda.

Iyi ni bisi nini itwara abagenzi, ihagaze iruhande rw'umuhanda ku cyapa aho abagenzi bategera imodoka, abagenzi barimo barinjira umwe k'uwundi.

Iyi ni imodoka yikoreye ikigega gitwaramo amazi cyangwa se ibindi bintu bitandukanye birimo peteroli, iyi modoka ikaba iri mu muhanda igenda.

Iyi ni gare ya Nyabugogo, iri kuvamo imodoka zitandukanye, harimo kwasiteri na bisi, muri iyi gare hateyemo amatara atandukanye amurika muri iyi gare. Hejuru y'iyi gare hari umusozi muremure.

Iri ni igare ritwara abantu n'ibintu, iri gare rikaba ari igare rya siporo, iri gare n'ubundi, rikaba ririho ibitebo bibiri bigaragara ko bivanye ibicuruzwa ku isoko.

Aha ni muri gare aho abagenzi bategera imodoka, ikaba irimo abagenzi bari gutega imodoka, ikabamo imodoka zitandukanye zirimo kwasiteri, bisi, ndetse muri gare hakaba harimo n'amatara amurikira abagenzi igihe cy'ijoro.

Izi ni bisi nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zikaba zihagaze zitegereje abagenzi bazinjiramo kugira ngo zibavane hano zibajyane ahandi.

Aba ni abamotari bari kuri moto za bo bategereje abagenzi, izi moto zikaba ari moto zikoreshwa n'amashanyarazi, bakaba bari mu muhanda, bigaragara ko ari umuhanda w'amabuye.

Aha ni muri gare ya nyabugogo iherereye mu mujyi wa Kigali aho abagenzi bafatira imodoka zibajana mu bice bitandukanye. Muri gare harimo abagenzi ndetse n'imodoka zitwara abagenzi nyinshi

Iyi ni bisi nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Muri iyi bisi hicayemo abagenzi ,ikaba iri mu muhanda ibajyanye muri gare.

Aba ni abanyeshuri biga mu bigo bya seconderi, bishoboka kuba bateze imodoka bajya cyangwa bava ku ishuri. Nk'uko biri kugaragazwa n'ahantu bahagaze muri gare, ndetse n'imodoka zitwara abagenzi ziri muri iyi gare.

Iyi ni imodoka ya bisi itwara ba mukerarugendo mu mujyi wa kigali. Iyi modoka ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa kigali, inyuma yayo hakaba hari imodoka ntoya bita ivatiri.

Ubu ni ubwato bwa kijyambere ariko budasakaye, muri ubu bwato haragaragaramo imizigo, abasare ndetse n'abagenzi, hari ubwato bugaragara ko ari ubwa moteri kuko imbere y'ubu bwato mbona hari moteri.

Uyu ni umuntu utwaye igare ry'abantu bafite ubumuga. Iri gare rikaba rifite amapine abiri inyuma, ipine rimwe imbere, rikaba rifite n’intebe yo kwicaraho, umuntu anashobora kwegamiraho.

Ndabona umukinnyi muremure wa basiketi, ufashe umupira wa basiketi wambaye neza, ndetse witeguye no kuba yatera muri paniye agatsinda igitego.

Aba ni abakinnyi bakina handiboro bari mu kibuga bigaragara ko umwe ari gushaka kwaka undi umupira ariko byananiranye aho bose bari gukimbirana.

Uyu ni umukino w'umupira w'amaguru, w'abagore bari gukina mu kibuga. Ugizwe n'amakipe abiri, imwe yambaye umuhondo n'icyatsi, indi ikambara umweru n'umukara.

Aha ni mu kibuga cya vole ,harimo abakinnyi bari gukina vole aho harimo umusifuzi ,ndetse n'abafana bicaye muri sitade bakurikiranye uyu mukino.

Aha ni muri sitade, irimo abantu batandukanye bigaragara ko bakurikiye umukino urimo urabera muri iyi sitade.

Uyu ni umukinnyi wa basiketibolo uri kwifotoza, afashe umupira wa basiketibolo, na none uyu mukinnyi akaba ari umukinnyi w'umukobwa.

Iri ni irushanwa ry'amagare rigizwe n'abakinnyi batandukanye bari ku magare yabo, aho ku ruhande hariho abafana nabo baje guha ijisho uyu mukino.

Aha ni mu kibuga cy'umupira wa vole, aho kirimo amakipe abiri ari gukina umupira. Imwe yambaye umutuku hejuru indi ikaba yambaye umukara n'umweru hejuru.

Iri ni irushanwa ry'amagare aho abakinnyi bose mbabona bari mu muhanda batwaye amagare yabo ku nkengero z'umuhanda, hari abafana baje kwihera ijisho uyu mukino w'amaguru.

Aba ni abakinnyi b'abagore bakina umukino wa vore, bikaba bigaragara ko bari gutera umupira wa vore hejuru ya fire.

Aha ni mu kibuga cya basikete aho harimo amakipe abiri y'abakobwa, imwe ikaba ariyo ifashe umupira wa basikete kandi bigaragara ko yifashe umupira wa basikete ari ikipe y'abakobwa y'u Rwanda.

Uyu ni umukinnyi ukina umukino w'amagare akaba ari mu muhanda atwaye igare rya siporo, ku ruhande rw'umuhanda hari ibyapa byamamaza bitandukanye ndetse muri uyu muhanda wa kaburimbo biragaragara ko haguye imvura.

Dore uyu ni umukino w'umupira w'amaguru urimo urabera muri sitade, ukaba uhuje amakipe abiri, aho hagaragara abakinnyi babiri bakinira ikipe imwe, ufite umupira n'undi wa gatatu ukinira indi wambaye nimero ya gatanu barimo barakina.

Aba ni abakinnyi batandukanye bakina umukino w'amagare. Bakaba bari mu irushanwa ry'amagare mu muhanda wa kaburimbo uzamuka. Bakaba na none bose batwaye amagare ya siporo.

Uyu ni umukinnyi w'umupira w'amaguru afashe umupira w'amaguru akaba yambaye umwambaro w'abakinnyi ndetse uyu mwambaro ukaba uriho idarapo ry'u Rwanda.

Iyi ni ikipe ya basiketiboru ndetse n'umutoza wayo barimo barifotoza, muri iyi kipe harimo abakinnyi batandukanye kandi bose bambaye impuzankano y'ubururu.

Aha ni muri sitade ikinirwamo imikino y'amaboko nkuko bigaragazwa n'abakinnyi bari gukina umukino wa vore barimo abasimbutse bashaka gutera umupira n'abandi bategereje gufata umupira.

Uyu ni umukinnyi wa tenisi uri mu kibuga ugiye gutera agapira akakerekeza kuri mugenzi we. Bigaragara ko yiteguye neza kuba yatera umupira. Uyu mukinnyi yambaye inkweto ya supuresi.

Uyu n'umukinnyi w'amagare akaba ari mu muhanda ku igare rye, akaba anambaye imyenda ndetse n'ibikoresho bimurinda kuba yakora impanuka harimo:ingofero, amarinete ndetse n'ibindi.

Aya ni amazu meza ari ku muhanda bigaragara ko yose yubatse mu buryo bumwe bugezweho. Kuri aya mazu ndahabona bimwe bishusha amazi kugirango mu nzu habonekemo amazi ashushe.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo，ku nkengero z'uyu muhanda，hari inzira y'abanyamaguru isashemo amapave， ndetse uyu muhanda wa kaburimbo， uciyemo imirongo y'umuhondo hagati.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, urimo abanyonzi batwaye amagare yabo, aho aya magare inyuma ariho imisego yicaraho abagenzi. Ku ruhande rw'uyu muhanda hariho inzira y'abanyamaguru iriho amapave.

Ahantu mu muhanda harurimo umumotari ugenda ndetse n'umunyegare urisunitse, uyu muhanda ukikijwe n'amazu ku mpande zombi z'uyu muhanda.

Aha ni muri gare, aho abagenzi bategera moto ndetse n'imodoka, harimo abamotari batwaye abantu kuri moto, hakagaragaramo tagisi zitegereje abagenzi, ndetse n'abagenzi bari kwitegura kwinjira muri izi modoka.